Aba ni abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo bakaba bakikijwe n'imeza iriho ibintu bigiye bitandukanye, harimo uducupa tw'amazi n'ibirahure, hirya yabo hakaba hari n'umuntu uri gufata amashusho.

Uyu ni umugabo uhagaze imbere y'ameza, hirya ye hakaba hari abandi bantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari ameza ariho ibitabo bigiye bitandukanye, uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Uyu ni umugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara, wanditseho amagambo y'umweru ndetse unashushanyijeho n'idarapo ry'igihugu cy'U Rwanda, akaba yambaye n'ipantaro y'ubururu afashe n'indangururamajwi mu intoki akikijwe n'abandi bantu bicaye

Iki ni icyumba cy'inama kirimo amatara menshi acanye ndetse n'intebe zifite ibara ry'umweru n'abantu benshi bagiye batandukanye bazicayeho izo ntebe.

Aba ni abantu babiri bicaye ku ntebe zisa umukara imbere yabo hakaba hari imeza bakaba bafite amakaramu mu ntoki zabo bari kwandika ku rupapuro rw'umweru.

Aba n'abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, icyumba cy'inama gifite inkuta zisa umweru imbere yabo hakaba hari insakazamashusho yanditsemo amagambo agiye atandukanye ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, akaba ari kuganiriza abantu benshi bicaye bamukurikiye.

Umugore wicaye mu biro , umugore akaba yambaye amataratara, akaba yambaye ikote ry'umukara mu imbere yambariyemo umwambaro w'umweru, imbere yu mugore hakaba hari ameza ateretseho amazi ari mwicupa riri mubwoko bw'inyange.

Aba ni abantu bicaye bari kumva ikiganiro bari kugezwaho n'umugabo wambaye ikote n'ishati ry'ubururu afite indangururamajwi mu ntoki ze .

Aba ni abantu bari mucyumba cy'inama kirimo amatara asa umweru bakaba bicaye ku ntebe isa umweru bakaba bari kuganira.

Aba ni bantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi ndetse n'uducupa dusa ubururu tw'amazi.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'ubururu, ndetse na karuvati, akaba afite mu ikiganza cye indangururamajwi isa umukara, ifite n'ibara ry'umuhondo.

Inyubako nini baragaragaza ko iherereye Kibagabaga Kigali kandi barerekana ko iri kugurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu iki ni ikintu gishyirwa ku nzu cyangwa se gishyirwa ahantu umuntu ari kugurisha agamije ko abantu babona icyo agambiriye cyangwa se bamenya ko niba agiye kugurisha bamenya agaciro , igenagaciro ry'icyo kintu ashaka kugurisha .

Aba ni abantu batandukanye bicaye mu cyumba gisize ibara ry'umweru; bakaba bicaye nabo ku ntebe zisa umweru; umwe muri bo akaba ahagaze, imbere yabo hakaba hateretse imeza iriho igitambaro cy'ubururu ndetse na mudasobwa.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'idapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bicaye ku ntebe zisa umuhondo ndetse n'umweru ,imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Uyu n’ umugabo wicaye ahantu mu nama akaba yambaye amarineti, n'ishati ndetse n'isaha akaba akikijwe n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Aba ni abagabo bicaye ku ntebe z'umukara imbere hari imeza iriho uducupa tw'amazi, imbere yabo hakaba hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki n'urupapuro rw'umweru.

Aba ni abantu bicaye ku ntebe zisa icyatsi, imbere yabo hari imeza n'uducupa tw'amazi tubateretse imbere, bakaba bamwe bafite mudasobwa, bakaba bari kuganira.

Aba ni abantu biganjemo abagabo n'abagore bari mu cyumba kinini cy'inama, imbere yabo hakaba hari ameza asa umukara akaba ateretseho uducupa tw'amazi n'ibirahure n'ibindi byinshi.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu bagiye batandukanye aba bantu bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru izindi zisa umukara aho imbere hakaba hari akameza k'urubaho gateretseho uducupa tw'amazi n'ibirahure .

Aba ni abantu bagiye batandukanye bateraniye mu ihema risa umweru, abenshi bakaba bicaye ku ntebe ziisa umutuku, hakaba harimo umugabo umwe uhagaze uri kubaganiriza.

Aba ni abantu benshi batandukanye bari mu cyumba k'inama kirimo amatara menshi n'intebe nyinshi cyane ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu bagiye batandukanye, intebe z'umweru ndetse ku mpande akaba ari urugi rukozwe mu mbaho.

Aba ni abantu bari mu cyumba cy'inama, gifite inkuta z'umweru, bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Aba ni abantu bicaye ku ntebe bari gukurikira ikiganiro runaka bari kugezwaho.

Iki ni icyumba k'inama kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere hakaba hari ameza ateretseho amazi ayo meza akaba asa ubururu n'umuhondo.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'umukara, ndetse akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, akaba ari kubwira abantu benshi bamuteze amatwi, hirya hakaba hari ibiti bisa icyatsi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, aho abimbere bicaye ku ntebe z'imikara abenshi muri bo bakaba bambaye impira y'icyatsi. Hakaba harimo n'ushInzwe umutekeno muri polIsi y'igihugu abinyuma bakaba bahagaze bambaye imipira y'umuhondo.

Aba ni abantu bicaye bambaye imipira y'ubururu, bicaye ku ntebe z'imihondo, imbere yabo hari ameza asa umweru ateretseho uducupa tw'amazi, bakurikira umugabo ubari imbere wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri kubaganiriza.

Aba ni abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cy'inama, ku ntebe zisa umweru, bakaba ku meza yabo hateretseho uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu batandukanye bicaye mu cyumba kimwe ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hateretse ameza ariho uducupa twamazi dusa ubururu n'umweru.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abagore n'abagabo, kikaba kirimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga na mudasobwa, hakaba ari n'amezaza ariho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Icyi ni icyumba k'inama kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hakaba hari ameza ariho indangururamajwi.

Iki ni igishushanyo cya mudasobwa ndetse na telefone gikikijwe n'amagambo yanditswe mw'ibara ry'ubururu ndetse n'andi ari mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero n'amarinete n'umupira usa umweru, akaba afite mudasobwa isa umweru mu biganza bye, hirya ye hakaba handitse amagambo menshi agiye atandukanye.

Iki ni icyuma gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru hakaba hariho n'insinga zigiye zitandukanye.

Aba n'abantu benshi bagiye batandukanye bicaye mumodoka kuntebe zisa ubururu bakaba bagiye bafite ibikoresho bigiye bitandukanye birimo mudasobwa ndetse na Telefone bari kubikoresha.

Iyi ni inzu ikinguye umuryango mo imbere hakaba harimo intebe ebyiri imwe y'umutuku indi y'ubururu.

Urupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare biri mu mabara y'umweru, umuhondo, n'ubururu, ndetse hakaba harimo n'ayanditse mu cyatsi.

Iki ni ikirere gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibicu by'umweru, hakaba hari n'icyuma nacyo gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze afite ibyishimo ku maso he ari guseka, yambaye ikanzu y'umutuku irimo umweru hagati, umusatsi we urasokoje urabona ko ugaragara neza cyane.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umukara, wanditseho amagambo y'umweru, akaba ari gukoresha imbere ye, mudasobwa zigera muri ebyiri, imwe ifite ibara ry'umukara indi y'umweru.

uru ni urupapuro rw'umweru ruriho igishushanyo cya mudasobwa ndetse ruriho n'amagambo yanditse mu mabara agiye atandukanye arimo ubururu ndetse n'umukara

Uru ni urupapuro rw'umweru ruriho ifoto y'ingagi, rukaba rushushanyijeho idarapo ry'U Rwanda, rukaba ruriho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Aba ni abantu batandukanye bahagaze bari gukoresha telefone, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, inyuma yaho hakaba hari inzu isize ibara ry'umweru, n'igisenge cy'umukara.

Uyu ni umukobwa wicaye imbere yinzu ifiteho icyapa kinini cyanditseho irembo.

Iki ni icyumba kirimo ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, aha turabona mudasobwa yanditsemo amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Aka ni akazu gafite umuryango usa umukara kariho itara ricanye impande hakaba hari ibyuma byinshi harimo icyuma kirekire gifite ibara ry'umutuku n'umweru n'insinga hejuru.

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi rukoreshwa mu gushaka akazi mu bihugu bigiye bitandukanye n'imijyi itandukanye.

Uru ni urupapuro rw'umweru ruriho amagambo atandukanye n'imibare igiye itandukanye, bikaba biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura imisoro ukoresheje murandasi cyangwa se ikoranabuhanga ugiye kwishyura imisoro.

Iyi ni imiryango y'ubucuruzi igiye itandukanye, ifite amabara y'icyatsi n'ubururu ikaba ishushanyijeho cyangwa se yanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'umukara.

Iyi ni inzu ikozwe mu mbaho, iriho amabara agiye atandukanye, y'umukara n'umweru, ikaba irimo abantu b'imbere batandukanye, ibikaba iriho n'ibyapa byanditseho amagambo atandukanye, ari mu ibara ry'ubururu, umweru, umukara, n'umutuku, n'ayandi.

Uru ni urupapuro rusa ubururu rwanditseho amagambo ndetse n'imibare itandukanye biri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo n'ubururu n'icyatsi.

Aya ni amagambo agiye atandukanye, yanditswe mu mabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umukara ndetse n'umuhondo, hakaba hari n'igishushanyo kiri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Uru ni urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'umukara, akaba hariho n'igishushanyo cy'inzu, gifite ibara ry'umweru.

Uru ni urupapuro rusa umweru ruriho amabendera abiri atandukanye ndetse hakaba hari n'andi magambo agiye ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa byinshi cyane, byanditseho amagambo agiye atandukanye, biri mu amabara atandukanye harimo : ubururu, umweru, umutuku, umuhondo

Aya ni amagambo agiye atandukanye, yanditse mu ibara ry'ubururu, musi yayo hakaba hari igishushanyo cyerekana mudasobwa, na yo ikaba irimo amagambo agiye atandukanye, mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Aya ni amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Aya ni amagambo agiye atandukanye ari mu mabara atandukanye, yiganjemo umweru, ubururu, umukara ndetse n'umuhondo n'umutuku, hakaba hariho n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abagore babiri, bafite telefone mu ntoki, umwe akaba yambaye umwenda urimo ibara ry'umutuku, undi akaba yambaye igitambaro mu mutwe, n'amarinete ku maso, n'uwenda usa umukara.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umweru, ndetse n'isaha n'amarinete, akaba afite indangururamajwi mu biganza bye, imbere y'akaba hari uducupa tw'amazi na terefone akaba ari gusobanura ibintu runaka.

Uru ni rupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye aya magambo akaba ari mabara y'ubururu, icyatsi, umukara ndetse n'umutuku.

Uru ni urupapuro rusa umweru ndetse n'ubururu, uru rupapuro rukaba ruriho amagambo ndetse n'imibare bigiye bitandukanye, byose bikaba bigiye biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifunze imiryango, ariko ikaba yanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu umutuku ndetse n'umuhondo, ikaba iriho n'umuntu ufashe telefone mu ntoki ze.

Aya ni amazu agiye atandukanye imwe ifite ibara ry'ubururu n'idirishya ry'umweru, indi isize ibara ry'umweru n'inzugi n'indirishya zisa umweru, inyuma hakaba hari ipoto ndende ishinzeho insinga z'amashanyarazi.

Iyi ni inzu y'amatafari, ifite amadirishya n'inzugi bifite ibara ry'umweru, imbere yayo hakaba hari ibyuma byinshi bikoreshwa mu gusakaza umuriro.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hirya hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umukara uri kugenda, hirya hakaba hari ipoto ndende iriho itara ryo ku muhanda n'insinga.

Iki ni icyuma kirekire gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu n'insinga ziri kukinyuraho, hirya akaba yari amazu atandukanye ndetse hakaba hari n'ikirere gisa ubururu.

Ibi ni ibiti bigiye bitandukanye biri impande y'umunara uriho insinga zigiye zitandukanye, hepfo hakaba hari amazu agiye atandukanye.

Aba ni abantu benshi bambaye imyenda isa ubururu ndetse n'ingofero zisa umuhondo bakaba bari mu kazi gatandukanye.

Iri ni ipoto ririho insinga zigiye zitandukanye, rishinze impande y'umuhanda w'igitaka, urimo abantu bagiye batandukanye, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto.

Iri ni ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zigenda zitandukanye, hirya yayo hakaba ari itara ryo ku muhanda.

Iyi ni inyubako ifite ibyapa byinshi cyane, byanditseho amagambo agiye atandukanye, ifite inzugi n'amadirishya asa umweru, mbere yayo hakaba hari ipoto iriho insinga nyinshi.

Iki ni icyuma kirekire cyane, kiriho insinga zigiye zitandukanye, hakaba hariho n'igicu gisa cyangwa se ikirere gisa ubururu n'umweru.

Iki ni igisenge cy'inzu; haruguru yayo hakaba hari ipoto rikozwe mu byuma; rikaba ririho insinga zigiye zitandukanye.

Iyi ni imodoka ipatitse iruhande rw'umuhanda, ikaba ifite ibara ry'umweru, ikaba ihetse urwego rurerure narwo rusa umweru.

Iyi ni ipoto ndende iriho insinga zigiye zitandukanye, ikaba ishinze impande y'umuhanda w'igitaka, hirya hakaba hateye ubusitani n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bambaye imyenda isa ubururu, bakaba baba bambaye ingofero zisa umuhondo, bakaba bari mu mpande y'icyuma kiriho n'insinga zitandukanye.

Iki ni cyuma gifite ibara ry'umweru, gishinze ku butaka, impande yacyo kikaba gikikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Uyu ni umugabo wambaye imyenda isa ubururu, hirya ye hakaba hashinze ipoto ririho itara rinini ryo ku muhanda ndetse n'insinga zigiye zitandukanye.

Iki ni icyuma kirekire kiriho insinga zigiye zitandukanye, hirya hakaba hateye ibiti byinshi, hakaba hari n'igicu kiganjemo ubururu n'umweru.

Ibi ni ibinyabiziga byiganjemo iby'imodoka zitwara abagenzi hirya hakaba hari abantu babiri bahagaze umugabo n'umugore, hirya yabo bakaba hari ipoto ndende iriho insinga z'amashanyarazi, inyuma y'abo bantu haba ari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Aba ni abantu babiri bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bakaba bari kugenda mu nzira nyabagendwa, impande yabo hakaba hari ubusitani bwiza bubakikije.

Iyi ni inzu ifite ibara ry'umuhondo n'idirishya n'inzugi zisize ibara ry'umweru, hakaba hari umugore umwe wicaye n'abagabo babiri bahagaze n'undi umwe wicaye mu kagare.

Uyu ni umugabo uhagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umweru, akaba yambaye ishati isa icyatsi n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, hirya ye hakaba hari undi mugabo uri kuzamuka mu muhanda nyabagendwa.

ubwo ni ubusitani bukikijwe n'inzu y'amatafari ahiye, ifite amadirishya ndetse n'inzugi zisa umukara, hakaba hari ibyuma bisa umweru, ndetse naho bajugunya iyo myanda hasa umutuku n'amashashi y'umuhondo.

Iyi ni inyubako ifite igisenge gisa ubururu, ndetse yubatswe mu matafari ahiye, ikaba ifite amadirishya afite irangi ry'umukara, hakaba hari abantu bicaye hanze yayo.

Uyu ni umugore wambaye ikanzu ndende y'umweru ndetse n'ijipo y'umutuku, akaba impande ye hicaye undi mugore, wambaye imyenda yenda gusa umuhondo, akaba ari kureba mu byuma.

Iyi ni imodoka y'umweru y'imbangukiragutabara iparitse kwa muganga ikaba ikikijwe ku mpande zombi iburyo n'ibumoso n'abantu.

Iyi ni imbuga ishashemo amabuye, ndetse hirya ikaba ikikijwe n'amazu, ndetse n'abantu bicaye abandi bahagaze bari kugenda.

Aba ni abantui bari kugenda mu itsinda hirya hakaba hari inkuta ndende zisize ibara ry'umweru zanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye amarinete akaba yambaye n’umwenda urimo amabara atandukanye, arimo umutuku, umukara akaba yambaye nshati ndetse na karuvati y’ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse akaba yambaye umusaraba mu gatuza n'ishati, hirya ye hakaba hari undi mugabo wambaye ishati y'umukara irimo n'umweru, wambaye agapfukamunwa k'umukara, akaba afite igikapu ndetse na mudasobwa imbere.

Iki ni icyapa gisa ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kandi hirya akaba ari igishushanyo cy'ibendera ry'igihugu ry'u Rwanda.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, ahagaze ari kureba muri kamera yamufotoye. Yambaye amaherena, ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umutuku.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uhagaze yambaye ikoti risa ubururu, ishati y'umweru na karuvati y'umukara akaba imbere ye afite indangururamajwi impamde hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abantu batandukanye bicaye imbere y'ameza bari mu nama runaka bakaba bose bambaye idarapo ry'u rwanda ku bitugu byabo.

Iki ni icyapa kimanitse ku nkuta ndende z'amatafari ahiye kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ryiganjemo umukara.

Aba ni abantu benshi bambaye imyenda yiganjemo amakanzu y'umukara arimo ibara ry'umweru .

Aba ni abagabo babiri bahagaze bombi bambaye udupfukamunwa, umwe ak'ubururu undi ak'umweru, umwe akaba afite ibitabo mu ntoki ze, undi akaba yambaye ikanzu ndende y'umukara irimo n'ibara ry'umweru.

Iyi ni imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bari kuganira ku kintu runaka.

Uyu uri hagati ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wambaye ikote n'ishati y'umweru na karuvati impande ye hakaba hari abantu bambaye imyenda miremire ifite ibara ry'umutuku n'umweru.

Iyi ni inyandiko iri cyangwa se yanditse mu ibara ry'umukara yerekana itegeko ryerekeye kurwanya ruswa.

Umugabo wambaye kositime ifite ibara ry'ivu, akaba yambaye rinete ufite utwanwa n'agasatsi gakeya, akaboko k'ibumoso gafite mikorofone, akaboko k'iburyo gafashe ku meza gasa shokora kamuri imbere, yambaye n'agakaruvate ari kumwenyura.

Aba ni abantu batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bahagaze imbere y'imeza ikozwe mu rubaho, inyuma hakaba hari icyapa kinini cyanditseho amagambo atandukanye.

Uyu ni umugabo wambaye ikote n'amapingu n'agapfukamunwa, ukikijwe n'abapolisi babiri, n'undi uri inyuma, uvuye mu modoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ukekwaho icyaha.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri kimwe kiri gushya ikindi kikaba kiri hirya gifite ibara ry'umuhondo, kikaba cyaje kirimo kwifashishwa mu kuzimya iyi modoka yindi iri gushya.

Ibi ni ibyuma bibiri bishinze ku rukuta rufite ibara ry'umweru ibi byuma bikaba bifasha mu kuzimya umuriro aho bibaye ngombwa.

Iki ni icyuma kifashishwa mu kuzimya umuriro, kiri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo, kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Uyu n'umuntu ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, n'ingofero y'umukara n'ijire yivanzemo ibara ry'umuhondo n'umukara n'amagambo yandikishije umweru.

Uyu ni umupolisi uri kumwe n'abana babiri, ari kubigisha uburyo bwo kwirinda umuriro cyangwa bwo kuwuzimya hakoreshejwe uburyo bw'amazi.

Uru ni uruhombo rusa umutuku rumanitse ku gikuta gisa umweru, rwifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, munsi hakaba hari n'icyuma gisa umweru ndetse n'umutuku nabyo byifashishwa mu kuzimya umuriro.

Hasi hari amakaro afite ibara ry'umweru, hakaba hari n'ibyuma bishinzwe kuzimya umuriro bimanitse ku gikuta.

Ibi ni ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo ibara ry'umweru, ndetse n'umukara bikaba bihagaze imbere y'inyubako ndende. Hirya hakaba hari n'igiti kirekire.

Uyu ni umugabo uri imbere y'inyubako wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, n'ishati y'umukara ifite ibendera ry'igihugu cyu' Rwanda hirya hakaba hari undi mugabo uri kugenda wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru.

Uyu ni umupolisikazi wambaye imyenda y'akazi akaba ari mu muhanda w'ibinyabiziga, akaba azamuye ikiganza ikindi agitambitse, akaba ahagaritse imodoka isa umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, ishati n'ipantaro bisa icyatsi n'inkweto z'umukara, hakaba hirya ye hari abandi bantu nabo bari kugenda, inyuma yabo hakaba hari inzu ndende.

Ikibuga cy'ibitaka giciyemo imirongo y'umweru gifite n'inshundura hagati gikinirwaho umukino w'amaboko witwa tenisi hakurya hari aho abafana bicara, hakurya hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Uyu ni umupolisikazi uri kuvugana n'umuntu utwaye ikinyabiziga.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'umukara ndetse irimo imirongo isa umuhondo n'amagambo yanditseho akabasa umweru, ahagaze imbere y'ikinyabiziga gisa umukara.

Aba ni abagabo babiri bahagaze, bambaye amakote, umwe akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati, undi akaba yambaye ishati y'umukara na karuvati, bakaba bose bafite ikintu mu ntoki.

Uyu ni umukuru w'igihugu ufite urupapuro mu ntoki, uri kureba ibyanditseho, akaba ari mu cyumba ari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, na karuvati y'umukara, akaba ari kumwe n'umufasha we wambaye ikanzu.

Aba ni abantu benshi bagiye batandukanye, bihanjemo abagabo n'abagore, bari imbere y'ihema rifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo n'ubururu, impande yabo hakaba hari igiti gifite ibara ry'icyatsi.

Aba ni abantu bisize amarange arimo ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu, bakaba bari kubyina bishimye.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bambaye imipira y'imyeru, ishushanyijeho igipfunsi kiri mu ibara ry'umutuku, umwe akaba afite ifoto iriho perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abantu bateraniye ahantu bagiye batandukanye, bakaba bafite igipapuro cyanditseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi n'umukara ndetse hariho n'ifoto y'umugabo wambaye ikositimu y'umukara ishati y'umweru karuvati y'umukara.

Aba n'abantu batandukanye biganjemo abagabo n'abagore, bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bazamuye ukuboko kwabo kw'iburyo bakaba bari kurahira.

Aba ni abagabo bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho uducupa tw'amazi ndetse n'amabendera agiye atandukanye, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini cyanditseho amagambo atandukanye.

Aba ni abantu bambaye amashati ndetse n'imipira isa, umwe urimo amabara y'umutuku n'ubururu. bakaba bagiye bafite mu ntoki zabo ibintu bitandukanye, harimo amabendera ndetse n'ibishushanyo bitandukanye.

Uyu ni umugabo uhagaze mu modoka isa umukara akaba yambaye ishati y'icyatsi n'umuhondo, n'umweru hirya y'imodokakaba ari abantu benshi cyane bafashe ibyapa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wambaye umupira w'umukara urimo ibara ry'ubururu, umweru n'umutuku, akaba yambaye n'ingofero y'umukara, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze.

Aba ni abagore babiri bambaye imipira isa umweru yanditseho amagambo asa umukara umwe akaba yambaye ipantaro undi akaba yambaye ijipo bakaba bari kwandika ku gikuta ku mpapuro zometse ku gikuta.

Uyu ni umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara ufashe mu biganza bye byombi ibyuma akaba yegeranye n'undi wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'ubururu.

Iki ni ikiganza cy'umuntu kizamuye kiriho ikaramu ku gikumwe cye yenda gusa ubururu, hirya ye hakaba hari undi mwenda munini uri mu ibara ry'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye kositimu isa ubururu n'ishati y'umweru na karuvate y'umutuku, akaba ahagararanye n'abagore babiri baganira, baseka, bishimye.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara ishati y'umweru ndetse n'isaha, akaba ufite mu ntoki ze indangururamajwi akaba ari kuvuga, hirya ye hakaba hari ibiti.

Uyu ni umugore wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu isaha ndetse akaba yambaye n'amarinete, akaba yicaye ku ntebe isa umukara.

Uyu ni umuhanda urimo ikinyabiziga kitwa ikamyo gifite ibara ry'umweru, mo imbere hakaba hicayemo abantu. Ku ruhande y'umuhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru.

Iki ni ikinyabiziga bakunze kwita ikamyo kiri mu muhanda gifite ibara ry'umweru kikaba gihetse imiyoboro myinshi izingiye hamwe.

Iyi ni imodoka isa ibara ry'umweru ikaba ifiteho ibyuma bisa ubururu muri iyi modoka hakaba harimo inyamaswa ziri mu bwoko bw'inka zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'umukara n'umweru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye na hano turabona ikinyabiziga kirekire kiri mu bwoko bw'ikamyo, gifite ibara ry'ubururu. Hirya hari ibindi binyabiziga byiganjemo amamoto n'amagare n'ibindi byinshi.

Uyu ni umuhanda urimo urakoreshwa n'umumotari atwaye ikinyabiziga cya moto gifite ibara ry'umutuku, akaba yambaye ingofero irinda umutwe y'umuhondo; akaba ahetse umugenzi inyuma .

Iyi ni imodoka itwara abagenzi iri mu muhanda icanye amatara.

Uyu ni umuhanda wiganjemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amamodoka ndetse na moto, hirya yaho hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu bari kugenda.

Ibi ni ibinyabiziga biri gukoresha umuhanda byiganjemo moto ziriho abamotari ndetse n'umugenzi, inyuma hakaba hari imodoka nini cyane itwara abagenzi benshi.

Aba ni abamotari bambaye amajire y'umuhondo ndetse n'ubururu bicaye kuri moto zabo bategereje abagenzi kugira ngo babatware.

Ibi ni ibinyabiziga bihagaze bikaba bifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, bikaba byanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Uyu ni umuhanda urimo ikinyabiziga kinini gifite ibara ry'ubururu n'umweru n'umukara gitwara abagenzi benshi, ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu bagiye batandukanye.

Iki ni ikinyabiziga kiri mu muhanda gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ndetse n'ubururu, imbere yacyo hakaba hari umuntu utwaye igare hirya hakaba hari na moto.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, mo hagati hakaba harimo ubusitani ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

uyu ni umunyonzi uri gusunika igare rye mumuhanda akaba kuri iryo gare ahetse umufuka ufite ibara ry'umweru urimo ibirayi

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka, hirya no hino hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo abantu bagiye batandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo igikamyo kinini gisa umweru ndetse n'umutuku, iki gikamyo kikaba gihetse indi modoka nayo iri mu ibara ry'umweru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uyu muhanda ukaba ufite ku ruhande inzira y'abanyamaguru ukaba kandi ufite n'amatara acanye kuko ari nijoro.

Iki ni ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda, hirya hakaba hari ibiti birebire cyane by'amoko atandukanye, hakaba hari n'imodoka ihagaze hirya n'icyapa ndetse n'abanyamaguru bari kugendera mu nzira y'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ebyiri zisa umweru, inyuma hakaba hari n'igare ririho umunyonzi. Ku mpande hakaba hari inzira y'abanyamaguru, irimo abagenzi.

Uyu ni umugabo wambaye umupira n'ipantaro, utwaye igare ahetse umufuka w'umweru, impande ye hakaba ari ikinyabiziga k'ikamyo, kirimo abantu kandi nacyo kikaba gitwikiriwe n'umwenda munini w'umukara.

Iki ni ikinyabiziga kiriho umumotari ndetse n'umugenzi hirya yaho akaba ari imodoka nini itwara abagenzi.

Iyi ni imodoka nini cyane ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ikoreshwa mu gutwara abagenzi, impande yayo hari icyapa kinini kiriho amagambo agiye atandukanye.

Iyi ni moto iriho motari akaba agiye guheka umufuka usa umweru, inyuma yaho hakaba hari umukarani urimo uramuzirikiraho neza wambaye ishati n'ipantaro by'ubururu.

Uyu ni umuhanda munsi yayo cyangwa hepfo yawo hakaba hari ikinyabiziga cya moto, n'undi mugabo wicaye ku intebe y'umweru impande hahagaze undi, n'undi wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro ya kake ari kugenda

Aha ni ahantu abantu bicaye batandukanye bicaye impande y'ubusitani bwiza ndetse inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire cyane, hirya hakaba hari amazu agiye atandukanye.

Aka ni akazu aho abantu bicara bakaruhuka, kakaba kakozwe mu mbaho, gasize ibara ry'umukara, hirya hakaba hari amazu agiye atandukanye, ndetse n'ibiti bitandukanye.

Aha abantu baricaye bari kuganira bari kuruhuka abandi bari kugenda ku mpande yabo, bakaba bakikijwe n'ibintu bigiye bitandukanye harimo amazu n'ibiti n'ibindi.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru hakaba harimo amazamu afite ibara ry'umweru ndetse n'abantu bagiye batandukanye bari gukina umupira.

Iki ni ikibuga kinini cyane, gitewemo ibyatsi bisa icyatsi hakaba harimo umuntu uri kugendamo, wambaye umupira usa ubururu n'ipantaro. Hirya hakaba hari ibyapa byinshi, byiganjem ubururu n'umweru.

Iki ni ikibuga cyo gukiniramo, kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba hagiye hashushanyijemo n'imirongo isa umweru.

Iyi ni inzu ndende y'ubatse mu matafari ahiye ikaba ifite amabati y'umutuku, ikaba iri impande y'umuhanda, ikaba hirya yayo hari ikibuga abana bari gukiniramo umupira.

Uyu ni umugore ufite igikapu akaba ahagaze impande y'umuhanda inyuma ye hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Iki ni icyapa cyanditseho amagambo ka na ga ijana na mirongo inani n'icyenda s na t kikaba cyerekana umuhanda uriho.

Iki ni icyapa kiri mu muhanda gikoreshwa n'ibinyabiziga, hirya yacyo hakaba hari imodoka nayo iri gukoresha umuhanda cyangwa se iri kugenderamo.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, iki cyapa kikaba kiriho inyuguti ya pa isa umweru ndetse hirya hakaba hari igishushanyo k'imodoka na cyo gisa umweru.

Ibi ni ibyapa bibiri birimo irange ry'umutuku ndetse n'umweru n'umukara biteye mu busitani, hirya hakaba hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zigiye zitandukanye.

Icyi ni icyapa kiri mwibara ry'umuhondo, kikaba cyanditseho amagambo yanditwe mwibara ry'umukara ndetse n'umuhondo.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, kikaba gifite n'amagambo yanditseho, ndetse n'imodoka ishushanyijeho. Ayo magambo akaba yanditse mu nyuguti y'umukara.

Ibi n'ibyapa bibiri bifite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara bikaba byanditseho amagambo ndetse n'imibare yanditswe mw'ibara ry'umukara.

Iki n'icyapa kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ndetse n'umukara, kikaba gishinze impande y'umuhanda inyuma yacyo hakaba hateye ibiti.

Iki ni icyapa gishinze mu byatsi impande y'umuhanda, gikoreshwa n'ibinyabiziga.

Iki ni icyapa cyiganjemo amabara asa umutuku hakaba harimo n'umweruru hakaba harimo n'igishushanyo cy'umuntu usa umukara afite inkoni mu ntoki ze.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru kikaba kirimo n'ibara ry'umutuku, n'imodoka iri mu ibara ry'umukara inyujijwemo umurongo w'umutuku.

Aya ni amagorofa abiri atandukanye imbere yayo hakaba haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye hakaba hari n'abanyamaguru ndetse n'umumotari utwaye umugenzi .

Ibi ni ibiti by'amoko agiye atandukanye biteye impande y'umuhanda, bikaba byiganjemo ibirebire n'ibigufiya bikaba kandi bifite hejuru yabyo ikirere cy'umweru.

Izi ni inzu zigiye zitandukanye z'ubucuruzi izi nzu zose zikaba zifite ibara ry'umweru ndetse zikaba zicuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kwambara n'ibyo kurya.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga byiganjemo moto ndetse n'abanyamaguru bari ku ruhande.

Uyu ni umuhanda ukikijwe n'inyubako zigiye zitandukanye hakaba hariho n'ubusitani ndetse n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Iyi ni inzu ifite igisenge cy'umukara, isize ibara ry'umweru, ikaba iri impande y'ubusitani burimo ibiti bisa icyatsi.

Iyi ni inyubako ifite ibara risa umweru hakaba harimo n'umukara, ikaba ifite igipangu kinini gisa umukara, hirya hakaba hari ibiti by'amoko atandukanye, hejuru hakaba hari n'insinga zigenda zicaho hejuru.

Aya ni amazu agiye atandukanye ari mu mabara atandukanye afite ibisenge bigiye bitandukanye, akaba akikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo nk'ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo ndetse hiryayayo hakaba hari amazu agiye atandukanye y'ubucuruzi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari impande ya moto, imwe ikaba isa umutuku n'umukara, indi ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Aya ni amazu meza yegeranye ndetse mo imbere hakaba harimo imodoka ndetse n'aho bamena ibishingwe.

Iyi ni inzu yubakishijwe amakaro asa umweru, ndetse n'ibirahure bisa umukara, ikaba ifite n'inkuta zisa umuhondo, n'inzugi zanditseho amagambo agiye ari mu ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu ndende irimo ibirahure ndetse hakaba handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu hashushanyijeho n'umukobwa wambaye ikanzu y'umukara mu nsi yabyo hakaba hari abantu batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Ibi ni ibinyabiziga bigiye bitandukanye bihagaze imbere y'inyubako iriho ibyapa bigiye bitandukanye kimwe mu cyapa gisa umukara kikaba cyanditseho amagambo asa umweru ikindi cyapa kikaba gisa umweruru cyanditseho amagambo asa umukara.

Iyi n’ inzu igizwe n'ibara ry'umuhondo n'umweru ndetse ikaba ikikijwe n'amatara ndetse n'amatafari ahiye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga byiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hari n'abanyamaguru bari kuwukoresha.

Ibi ni ibiti byinshi bishinze mu busitani bikaba bifite ibara ry'icyatsi, hirya hakaba hari abantu babiri bicaye bari kumva akayaga k'ibiti.

Uyu ni umuntu wicaye akaba yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, akaba yicaye ku ntebe y'umweru, impande ye hakaba hari akabati k'umweru karimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Izi ni inyubako nini cyane zifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba hari munsi yaho ahantu hanini hateye ibihingwa nk'ibigori ndetse n'insina.

Uyu ni umuhanda usa umukara urimo abantu babiri bari kuwugenderamo, ukaba ukikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ndetse n'amazu y'amoko atandukanye harimo amaremare n'andi asanzwe.

Iyi ni inzu yo kubamo nziza igeretse rimwe ikaba ifite urugi rukozwe mu mbaho kandi ikaba isa ibara ry'ikigina .

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ndetse ukaba ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru n'ibiti byinshi n'amazu agiye atandukanye.

Uyu ni umuhanda ibinyabiziga, wiganjemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo nk'imodoka nini itwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru, ndetse na moto ziriho abagenzi ndetse na motari.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga bigiye bitandukanye; uyu muhanda urimo ikamyo isa umweru; hakaba harimo n'indi modoka yenda gusa umukara; ndetse hakaba hariho n'umugabo wicaye ku igare nawe uri gukoresha umuhanda.

Uyu rero ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, hakaba hashushanyije mu muhanda n'imirongo iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Iyi ni inzira y'abanyamaguru irimo umugabo wambaye ishati n'ipantaro uri kugenderamo, hirya hakaba hari umuhanda uri gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka na moto.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto, hirya hakaba hari ibiti byinshi by'amoko agiye atandukanye, ndetse ku muhanda hakaba hari n'itara rirerire ry'umuhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo igare, moto, ndetse n'imodoka, ku igare hakaba hicayeho umugabo wambaye ishati, ndetse n'ipantaro, ndetse ahetse igikapu.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, urimo ibinyabiziga byiganjemo imodoka zisa umweru ndetse n'umukara, hirya hakaba hari inzu nini cyane, ifite igisenge ndetse n'urugi rw'umukara.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'imodoka. Uyu muhanda ukaba ukikijwe kandi n'ibiti birebire bisa icyatsi.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo ibinyabiziga na moto, ukaba ukikijwe n'ubusitani ku mpande yabwo.

Uyu ni umuhanda ushushanyijemo imironko igiye itangukanye, hirya hakaba hariho amabara y'umweru n'umukara hakaba hariho n'inzira y'abanyamaguru iri kunyuramo abantu.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa ukaba ufite ibara ry'umukara hakaba barimo n'aho abanyamaguru bambukira bakaba haranngwa n'ibara ry'umweru hakaba harimo n'ikinyabiuziga cya moto n'abantu bari kugendera kuruhande.

Uyu ni umuntu uri kwambuka aho abanyamaguru bagenewe kwambukira hashushanyije ibara ry'umweru, hirya ye hakaba ari ikinyabiziga gihagaze gitegereje kasoza kwambuka.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ushushanyijemo imirongo ifite ibara ry'umweru hakaba harimo n'umukara hakabamo hagati harimo amatara maremare y'umuhanda hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru ibyapa ndetse n'ibiti.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, hakaba hirya harimo inzira y'abanyamaguru irimo abantu.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikorera mu mugi wa Kigali, iri mu ibara ry'ubururu kandi ikaba iri gusohoka muri gare kandi imbere yayo hakaba hari abantu bari kugenda n'amaguru.

Uyu ni umuhanda wiganjemo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo, moto, imodoka ndetse n'amagare hirya hakaba hari inzu y'ubucuruzi, ndetse hakaba hari n'ibiti bikikije umuhanda bisa icyatsi.

Iyi ni inzira y'abanyamaguru iri impande y'umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto, impande yabyo hakaba hari ibyapa bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, ushushanyijemo imirongo yiganjemo ibara ry'umuhondo, umweruru, n'umukara, hirya hakaba hari ikinyabiziga kinini cyane, gifite ibara ry'ubururu.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara kikaba gishinze impande y'umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye n'abana bari kugendera mu inzira y'amaguru kuruhande

Iki ni icyapa kiri ku muhanda cyerekana ko ahantu hatemewe guhagararika ikinyabiziga impande yacyo hakaba hari abagenzi bari gukoresha uwo muhanda .

Uyu n'umuhanda urimo ibinyabiziga byiganjemo moto zitwawe n'abamotari ndetse n'abagenzi baziriho.

Iki ni icyapa gishinze impande y'umuhanda kirimo ibara ry'umweru, umukara ndetse n'umutuku. Mu muhanda hakaba harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse no hagati hakaba harimo ubusitani ndetse n'ibiti birebire.